Icyumba cy'inama cyahuwemo n'abantu bagiye batandukanye b'ingeri nyinshi cyane, nk'abagore, abagabo, abakobwa bakiri bato ndetse n'abakuze ndetse n'abasore, hakaba hari abambaye amakote, bambaye amakanzu ndetse n'abandi, bagiye bafite imisatsi igiye itandukanye nk'iya gakondo n'indi y'imikorano.

Igikoresho cy'umuco nyarwanda gakondo, kibaje mu giti kikaba cyitwa icyansi, kikaba kifashishwa mu kubuganizwamo amata, kugira ngo avure cyangwa se hari ukeneye kuyanywa akayanywa ayakuye muri icyo cyatsi.

Ubukwe gakondo bwa kinyarwanda burimo umusore ndetse n'umukobwa bagiye gusezerana, umusore akaba yiteye umukenyero usa n'umweru uriho utubara tw'umukara, yambaye urunigi mu ijosi, ishati y'umweru, umugeni w'umukobwa na we yambaye akitero gasa n'umweru n'ikanzu y'umweru.

Ibikoresho gakondo bya kinyarwanda birimo igicuma kirimo umuheha urwuho rufite utubara tw'umukara ndetse n'umweru, ikirago bikaba biri mu nzu y'ibyatsi igiye yubakishije uduti dusa nk'umukara tuzirikishije ibirere.

Igikoresho cyifashishwa mu muco nyarwanda kikaba cyitwa inkangara, cyifashishwa mu gutwara imyaka nk'ibishyimbo, amasaka mu gihe hari aho bagiye gutwerera, gifite amabara atandukanye nk'umukara ndetse n'umuhondo bitewe n'uko uwakiboshye yagikoze.

Umuhanda w'igitaka uri ahantu mu cyaro, ukikijwe n'insina nyinshi cyane, n'ibiti bigiye bitandukanye bitoshye. Ku ruhande hakaba ipoto y'amashanyarazi ijyana umuriro mu ngo zikikije uwo muhanda. Hakaba harimo abantu bambaye imyenda itandukanye nk'umutuku , ubururu n'fite amabara atandukanye.

Igitwa cyiza cyane cyubatseho ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, nk'ibimanitseho pano zitanga umuriro w'imirasire y'izuba, ku ruhande hakaba inyubako nziza cyane, isakaje amabati y'umutuku n'inzugi z'umutuku, hakaba n'indi ku ruhande nanone ifite ibara ry'umweru.

Ipoto y'amashanyarazi yubatse ahantu mu cyaro mu mubande, yubakishije ibyuma by'umweru, hejuru muri iyopoto hakaba harimo umugabo wambaye kasike y'ubururu, umupira w'umutuku, ijire y'umuhondo.

Inyubako nziza cyane ya leta isize amarangi y'umuhondo yubatse mu buryo bwiza cyane buboneye ijisho, isakaje amabati yo mu bururu, ikaba ifite utwuma dutangira abantu ko bayihanukaho dusa n'umweru ndetse n'ibindi byuma biyikikije na byo bisa n'umweru.

Icyapa giteye ahantu ku muhanda cyanditsemo amagambo mu mabara atandukanye nk'ubururu n'umukara cyo kikaba gisa umweru gifite amaguru y'umukara, amagambo akaba agira ati " Ingoro y'ubutabera urwego rw'ibanze rwa Nyagatare."

Inyubako ya leta y'ikibuga cy'umupira cyubatse ahantu heza cyane mu buryo buboneye ijisho, kirimo ibyatsi bisa icyatsi rwose kizengurutswe n'umukandara w'umutuku, ku ruhande hakaba hari ibindi byatsi biteye bifite ubusitani busa neza cyane.

Abantu benshi bahagaze mu kibanza kigiye kubakwamo inyubako ya leta bahagaze imbere y'igishushanyo mbonera gishushanyijeho iyo nyubako igiye hubakwa mu ibara ry'ubururu yanditseho amagambo mu ibara ry'umweru hakaba hariho amagambo agira ngo gira ubuzima ku ruhande akaba ashushanyijeho abantu bane, babiri bakuru ndetse n'abana.

Inyubako ndende igeretse kabiri, isakaje amabati y'icyatsi, isize irangi ry'umuhondo. Ikaba imbere yayo hari ubusitani burimo ibyatsi bitoshye bisa neza cyane biboneye ijisho. Ikaba imbere mu tuyira twerekeza muri iyo nyubako harimo abantu binjira ndetse n'abasohoka. Abari gucunga igare, abagenda n'amaguru, abapolisi bahagaze bashinzwe umutekano, imodoka ziparitse muri ubwo busitani ndetse n'utundi tuzugiye dutandukanye.

Igishanga kigari cyane kirimo amazi menshi ariko kikaba kiriho ikiraro cyambukiranya ayo mazi, cyubakishije ibiti ndetse na ferabeto hakaba harimo kunyurwaho n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'iikote ry'umukara n'inkweto z'umutuku.

Inzu nini isakaje amabati y'ubururu, ku mpande ikaba ikikijwe n'amabati y'ubururu, idafunze ahantu hose, mu imbere hakaba harimo abantu bambaye imyenda igiye itandukanye y'amabara nk'umweru n'ubururu n'andi, hirya ku ruhande hakaba hari igihingwa cy'ibigori bihagazemo umugore wambaye na we imyenda itukura.

Inyubako nziza cyane igeretse kabiri, ya Leta yubatse ahantu heza cyane haboneye ijisho ku buryo buri wese yakwifuza kuba yayibamo cyangwa akayikoreramo, ifite amarangi asizeho y'umweruru, hejuru hakaba hariho andi y'umutuku, isakaje amabati y'ubururu.

Ikibuga cyahuriwemo n'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, harimo abashinzwe umutekano nk'abasirikare, bambaye imyenda iriho ibendera ry'igihugu, abapolisi bambaye nabo imyabaro iriho ibendera, afite agakaramu ku mufuka n'amaterefone mu ntoki. Umugore umwe uhagaze ufite imisats y'imikorano, yambaye ikote ry'umutuku, akaba ari kuvuga imbwirwaruhame. Hakaba n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru n'ikoboyi isa n'buru.

Ubusitani bwahuriwe mo n'abantu b'ingeri zigiye zitandukanye bambaye imyenda igiye ifite amabara nk'umweru, umukara n'inkweto z'umweru n'izindi zigiye zitandukanye, hakaba hari umugabo umwe uhagaze wambaye umupira w'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki kuri uwo mupira hakaba hashushanyijeho umubare mirongo itatu mu ibara ry'umukara.

Umuhanda uri hagati mu ishyamba ricucitse rifite ibiti birebire, ukaba ku mpande ufite ibyapa bitandukanye, hari kamwe kagaragaza irindi shami ry'umuhanda imbere, gashushanyije, ibara ry'umukara n'umweru.

Inyubako yahuriweho n'abantu benshi cyane b'ingeri zigiye zitandukanye harimo; abapolisi, abasirikare abadasso n'abandi benshi bagiye batandukanye nk'abagore, abasore, n'abakobwa b'abasivili, harimo umusirikare umwe ufite icyondo mu ntoki n'undi muyobozi ufite itafari rya rukarakara mu ntoki barimo kubaka.

Abaturage bahagaze mu rutoki barimo kwikorera amabuye harimo umwe waribonye urifite mu ntoki wambaye umupira w'umutuku ushushanyijeho igishushanyo mu ibara ry'umukara, hakaba hari n'undi mugore wikoreye ingata, utarabona ibuye ryo kwikorera.

Abantu benshi batandukanye bahuriye mu muganda rusange bafite udusuka barimo guharura mu muhanda harimo abashinzwe umutekano twavugamo nk'aba Dasso, Abasirikare ndetse n'Abapolisi harimo abaturage bagiye bambaye imyenda itandukanye nk'umutuku, umweru, ubururu, utugofero n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ishyamba ryahuriwemo n'abantu benshi cyane bari mu gukora umuganda bakata ibyatsi byagiye birengera, harimo abashinzwe umutekano, twavuga nk'abadaso, abasirikare, n'abaturage baje kwifatanya nabo mu gukora uwo muganda.

Ikibuga kirimo abana batatu barimo gukina umupira, umwe wambaye ibirenge yambaye agakabutura k'umukara agasengeri k'umutuku, undi yambaye inkweto z'umweru zirimo utubara tw'ubururu amasogisi y'umukara, ikabutura y'umutuku irimo akarongo k'umukara agapira k'umweru hejuru karimo mu ibara ry'umukara, undi yambaye inkweto zifunguye z'umweru ipantaro y'umukara irimo akarongo k'umutuku ndetse n'akandi gapira k'umuhondo.

Ikibuga cy'umupira cyahuriwemo n'abantu batatu: umwe wambaye inkweto z'umweru n'ubururu, ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku ushushanyijeho nimero mu mugongo mu ibara ry'umweru, ku ruhande hakaba undi wambaye imyenda y'umuhondo, amasogisi y'umuhondo ndetse na godiyo z'umutuku, hakaba n'undi uri mu izamu na we wambaye umutuku hejuru hasi umukara n'inkweto z'ubururu n'umweru.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo ibyatsi by'icyatsi, gishushanyijemo imirongo mu ibara ry'umweru kikaba kirimo abakinnyi b'ingeri nyinshi cyane bambaye imyenda yubururu hejuru no hasi harimo uturongo tw'umweru, bambaye amasogisi y'umweru ndetse n'umukara bakaba bambaye n'utugodiyo dufite amabara agiye atandukanye nk'umuhondo.

Ikibuga gihuriwemo n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye abambaye imyenda mu mabara y'umutuku, umukara hasi ndetse n'inkweto zigiye zifite amabara agiye atandukanye nk'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'izindi, ikipe nayo ikaba ifite abakinnyi bambaye imyenda isa n'ubururu irimo akabara k'umutuku.

Umuhanda mugari wa kaburimbo ukeye usa neza, ufite amabara y'umukara n'umweru, ukaba urimo imodoka ya Polisi ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, hariho ijambo ryanditseho Polisi mu ibara ry'umukara, inyuma y'iyo modoka hakaba hari abarimo gukora siporo birukanka, abakoresha igare ndetse n'amaguru.

Kaburimbogari irimo imodoka ya polisi ifite amabara atandukanye, ay'umweru n'umukara, yanditseho izina polisi mu magambo y'umukara, ikaba ihagaze hagati mu muhanda. Hejuru hakaba hariho agatara gacana umutuku n'ubururu, ku ruhande mu tuyira tw'abagenzi hakaba harimo abagenzi batambuka, kuruhande nanone hakaba hariho amatara amuririka uwo muhanda iyo bwije.

Sitade irimo abakinnyi benshi ndetse n'abafana, ikaba isakaye ifite amabara atandukanye mu ntebe, harimo ubururu umuhondo ndetse n'umweru, abakinnyi bari mu kibuga bakaba bambaye imyenda y'umutuku ndetse n'umukara, bakaba bambaye n'inkweto z'ubururu n'umweru.

Ikibuga cy'umupira cyahuriwemo n'abakinnyi benshi cyane harimo umunyezamu wambaye umupira w'umutuku, imbere akaba yambayemo akandi agapira k'umweru gafite amaboko maremare inyuma ye hakaba hari undi mukinnyi nawe yambaye umupira w'umweru ufite akabara k'icyatsi imbere nabwo hakaba hari abandi bambaye imyenda y'ubururu irimo utubara twumweru

Umuhanda mugari wa kaburimbo usize uturange tw'umweru n'umukara ku ruhande ku udutafari tugiye twubatse, hagati muri uwo muhanda hakaba harimo imodoka yifashishwa na polisi mu kugera aho ikeneye kugera, ifite amarangi y'umweru mu ibara ry'umukara mu ijambo ryanditseho polisi hejuru yayo, hejuru nanone hakaba hariho akuma gacana amabara umutuku ndetse n'ubururu, ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru hakaba harimo abanyamaguru babiri bahagaze.

Umuhanda wo mu cyaro utarimo kaburimbo uteye nabi urimo imyanda myinshi cyane udasukuye, ukaba ucamo amazi uko abishatse yagiye awucukura awutera ubuhaname.

Kaburimbo ngari nziza cyane iboneye ijisho, irimo umumotari utwaye moto uhetse amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo, inyuma y'iyo moto hakaba hari imodoka hepfo gatoya kaburimbo ikaba ikikijwe n'ibiti, harimo ibyarabye uturabyo tw'umuhondo.